Umutekano ni ingirakamaro kuko udufasha gutekana nta kibazo dufite, tuba dufite byose ikoreshwa ikoranabuhanga ndetse n'ibindi.

Ni byiza gukaza umutekano kuko bituma ibyaha n'amakosa akorwa, bigabanyuka kuko aba ari ingenzi cyane.

Mu gihe inzu irimo amashanyarazi tugomba kwibuka ko tugomba gushaka ibikoresho biyamanajinga kugira ngo umuriro ujye ugenda gake gake.

Ese ni iki twakora kugira ngo umutekano wacu tuwubungabunge tugomba kuba dufite ibigega by'amazi menshi byo kuzimya umuriro mu gihe twatatswe n'inkongi y'umuriro ndetse umucanga tukaba dufite na kizimyamwoto nyinshi kugira ngo inzego z'umutekano zitugereho hari icyo twakora.

Ni ngombwa ko hategurwa ahantu habugenewe hakirirwa inama y'abaturage cyangwa se y'abayobozi, kuko bifasha kugira ngo bakurikire neza ibyo bivugwamo.

Icyumba cy'inama kigomba kuba cyubatse neza kugira ngo aho buri muntu wese uzaba yaje kwitabira iyo nama, azakurikirane amabwiriza neza nta mbogamizi.

Tugomba kwiga umuco n'ibiwuranga byose kuko twigiramo amateka menshi akomeye cyane tukigiramo: imbyino gakondo, ucunda amata, kuvuza ingoma ndetse n'ibindi.

Umuco ni ingirakamaro kuko utuma twiga ibintu byinshi cyane, byingenzi urugero: nko kuboha, gukora n' indi mirimo ijyanye n' intoki.

Umuco ni ingenzi cyane kuri twese kuko utuma tumenya byinshi tutazi, nk'ibikoresho byifashishwaga kera nko mu kuboha, kuvuza ingoma ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko twiga umuco wacu gakondo, tukamenya ibikoresho byakoreshwaga kera, harimo umutego, ingoma, ndetse n'ibisabo.

Twimakaze umuco wacu kuko twigiramo ibintu byinshi bitandukanye, nk'imyambaro kumasha ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha.

Umuco udufasha kumenya amateka yaranze igihugu cyacu, kugira ngo twigiremo byinshi bitandukanye, abami, abamikazi, ibikoresho bakoreshaga, ndetse n'ibindi.

Kwimakaza umuco ni byiza, bituma twigiramo ibintu byinshi cyane, nk'abantu bari bayoboye igihugu cyacu, imyambaro bambaraga ndetse n'ibindi.

Mucyo rero twige umuco wacu, tubigire intego kuko bidufasha kumenya amateka yahozeho, ndetse tukamenya n'abami ibyo bakoreshaga, ndetse n'aho babaga.

Umuco ufite uruhare runini ku bumenyi twiga bwa buri munsi, kuko utuma tubona ibikoresho byinshi byagiye bikoreshwa kera. Urugero nk'amayugi, kuvuza ingoma, imirishyo ndetse n'ibindi.

Umuco wacu nyarwanda utwigisha ibikoresho bifashishaga mu gihe cyashize cy'abanyarwanda, cy'abakoloni, n'abami. Usangamo ibikoresho byifashishwa bigiye bitandukanye nk'inkono n'ibindi byinshi.

Umuco ni mwiza utuma twiga amateka yaranze igihugu cyacu. Urugero nko kumasha, gutega inyamaswa n'ibindi kubyina

Ni ngombwa ko tugira ibikoresho by'amashanyarazi bigenzura umuriro uburyo ukoreshwa, kugira ngo tutaza guhura n'ingaruka byo kuba byashya ibyo bikoresho.

Inzu mberabyombi, yakira abaturage baba baratoranyijwe, mu midugudu, mu kagari, ndetse no mu mirenge, kugeza ku rwego rw'akarere, baje kwiga byinshi bitandukanye, ku buhinzi, ku bworozi, ndetse n'ibindi.

Ibikorwa remezo ni ingenzi cyane ku baturage. urugero: nko kubakirwa amasoko, y'ibitaro, amashuri, ndetse n'ibindi. Bituma boroherezwa bagahaha hafi y'aho batuye batabanje kugenda imisozi.

Leta kandi igerageza kwegereza abaturage ibigo by'amashuri, amavuriro, amazi, imihanda ndetse n'ibindi, kugira ngo abana babeho neza, ndetse n'ababyeyi babo babeho neza igihugu gitembe amata n'ubuntu.

Ibikorwa remezo ni ingenzi cyane ku bantu, kuko bituma iterambere ryihuta. Urugero nk'imodoka nyinshi muri gare, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Kwegereza ubuyobozi abaturage ni byiza bituma abaturage bishima bakanezerwa bakumva bafite umutekano, kandi abaturage na none kwibumbira mu mudugudu ni byiza cyane bituma bakorera hamwe ndetse bikabateza imbere.

Ibikorwa remezo ni ingirakamaro ku baturage, kuko byongera kwiga hafi, isoko hafi n'ivuriro hafi, bityo umuturage akagira ubwisanzure.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri n'abaturage baje gushaka imodoka zibasubiza ku mashuri, ndetse n'abaturage bari gutaha mu ngo.

Abashoferi bagomba kwitonda gutwara abantu n'ibintu, kuko hari imodoka zagenewe ibintu, n'izagenewe abantu, bityo rero bagomba kumenya ko bitandukanye.

Imikino ni ingirakamaro ifite uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi idufasha kuba twaba umwe ndetse na disipurine muri rusange.

Imikino ifite akamaro kanini mu buzima bwacu, ituma tugira ikinyabupfura mu byo dukora byose, ndetse no mu rugo igatuma dukorera hamwe.

Imikino ifite akamaro kanini ku buzima bwacu, kuko ituma umubiri wacu umera neza cyane, no kurwaragurika bya hato na hato, no kugira ikinyabupfura mu rugo iwacu no mu bandi.

Imikino ifite uruhare runini ku buzima bwacu, kuko ituma twishima tukanezerwa, ndetse tugafana, ndetse bigorora umubiri wacu ukamera neza, kandi no kurwara bikabaho gake.

Ni byiza ko mu mudugudu haba harimo inzira za bugufi zo kugera ku isoko byoroshye, kuko bifasha umuntu kudakererwa inama ndetse n'ibindi.